Farumasi bakoreramo imiti baguze kwa muganga cyangwa bakaza kuyicururizamo imiti kugira ngo bazajye baza kuyigura babahe amafaranga, ayo mafaranga bayifashishe bari kwiteza imbere. Farumasi ifite akamaro kenshi cyane. Itanga imiti yo gukiza abarwayi kandi farumasi itanga akazi ku bashomeri.

Ibitaro bifite ibitanda, iyo abarwayi barwaye babiryamaho. Natwe inaha iwacu tugira ibitaro biba bifite ibitanda noneho, iyo umurwayi yarwaye yarembye, ajya kwa muganga bakamuha igitanda bakajya bamuryamisharaho. Bakamushyiramo na surumu, iyo babona yarembye cyane, babona yakize agataha. Ibitanda bifite akamaro kenshi cyane ku barwayi barwaye barembye bakabavurira kwa muganga.

Umuganga uri gutanga imiti ari ku mashini ari kureba imiti ituma abantu bakira indwara barwaye. Imiti ifite akamaro kenshi cyane ifasha abantu mu kuvura indwara barwaye bagakira neza.

Umuganga ari gufata ibizamini by'umwana kugira ngo amuvure, amenye indwara amuvuye yifashishije ibizamini ari gupima ngo abirebe. N'inaha iwacu tugira abaganga bakora muri raboratwari, iyo twarwaye badufata ibizamini bagapima indwara turwaye kugira baduhe imiti idukwiriye, kugira ngo dukire. Kuvura bifite akamaro kenshi cyane turakira.

Na twe inaha iwacu duhinga amateke. Amateke adufasha mu kwifashisha iyo tugiye guteka turayahata, tukayateka, tukayarya. Na twe inaha iwacu haba itabi. Itabi abasaza bakunda kurinywa bakaripfunyika mu bipapuro bagashyiramo ikibiriti bagashyira mu kanwa bagatumura umwotsi.